Ubuhinzi bukomeje gutezambere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi bigiye biteye ku murongo, hahagazemo umukobwa wambaye bote n'umupira w'umukara, ahetse igikoresho ari kuvomerera, ibi birarayi. Inyuma hari ikiyaga cy'amazi.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane, urimo abantu benshi batandukanye, buri umwe afite isuka bari guhinga; imbere yabo hari ibiti ndetse n'impande yaho hari ibindi biti. Bambaye imyenda yiganjemo umuhondo n'ibitenge.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibitoki, hakaba harimo amateke ndetse n'imyumbati, harimo ikirundo cy'ifumbire, harimo umugabo umwe uri kuyiyora, undi afite isuka ari kubagarira ibihingwa.

Abantu benshi cyane batandukanye, bari mu murima munini cyane uhinzwemo ibigori, kandi bakaba bafite ifumbire bari gutera muri ibyo bigori kugira ngo bikure neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarange asa umweru, akabati karimo ibikombe, ndetse n'amakarito n'ibikoresho twifashisha tuvomerera ibihingwa.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwageze kuri bose. Umurima mugari cyane, bari guteramo ibirayi. Harimo abagabo babiri n'umugore umwe, buri umwe afite ifumbire mu ntoki. Ifumbire imwe iri mu gitebo, indi iri mu mufuka.

Ubworozi n'ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane isizwe amarangi y'umuhondo, harimo akabati karimo ibikombe ndetse n'amakarito, harimo imiti twifashisha dutera ku bihingwa n'iyo twifashisha tuvura amatungo.

Inyubako ndende cyane iriho ibyapa bimwe bisa ubururu ibindi bise umuhondo ibindi bisimeru n'icyatsi, imbere yaho haparitse ibinyabiziga nk'imodoka moto n'igare, moto imwe iri mu muhanda ihetse umuntu wambaye imyenda isa ubururu n'icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange, umurimo mugari cyane utewemo inyanya zisasiwe n'ibyatsi byumye, hahagazemo abantu benshi bari kuzibagarira, umwe muri bo afite ibase irimo ifumbire ari kugenda ashyiraho.

Amacupa agiye atandukanye ari mu mabara menshi cyane ay'umweru, ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi, akaba ari mu iduka aho bacururiza imiti igiye itandukanye y'amatungo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibigori bigiye biteye ku murongo, harimo ibikoresho byifashisha mu kubivomerera, impande yaho hari ibigori bisa naho byenda kwera.

Ubuhinzi bukomeje kuduteza imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane irimo akabati karimo ibikombe ndetse n'ibikarito birimo imiti twifashisha tuvura amatungo n'indi twifashisha dushyira ku bihingwa.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje kuduteza imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane y'ubucuruzi irimo ibikombe ndetse n'amakarito arimo imiti yifashishwa mu kuvura ibihingwa ndetse n'amatungo. Harimo ibikoresho byifashisha mu kuvomerera ibihingwa, hahagazemo umuntu wambaye umupira w'umweru.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uteyemo ibishyimbo, impande yaho hari umufuka urimo ifumbire, umuntu afashe ifumbire mu kiganza. Abandi bahagaze mu murima.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Umurima mugari cyane utewemo urusenda rusasiwe neza. Impande yaho hari ikirundo cy'ifumbire ndetse hari umugabo uri kuyobora iri fumbire.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe, bari kugenda ahantu mu muhanda, impande y'umurima urimo ibihingwa bitandukanye nk'ibigori ndetse n'ibindi, kandi umwe muri abo bagabo akaba afite igare, ririho imifuka irimo ibintu bitandu...

Umuntu wambaye imyenda itandukanye ifite n'amabara atandukanye nk'ubururu, umutuku, umukara ndetse wambaye n'ingofero uhetse igikoresho cyifashishwa mu kuhira ibihingwa.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane, uhinzwemo ibitoki, imyumbati, amateke. impande yaho hari umuntu ufite umufuka urimo ifumbe y'umukara, ndetse indi yayifashe mu kiganza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibinyomoro ndetse n'ibishyimbo, hahagazemo abagabo babiri, umwe afashe ku kinyomoro, undi afite igikoresho bifashisha bavomerera ibihingwa.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, bimwe byaciwe birambitse hasi bisa neza cyane, harimo umugabo ufite ibindi mu mufuka, ndetse undi mugore ari kubitoragura.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bashora umushinga mu buhinzi bw'ikawa, hanyuma umusaruro uvuyemo bakawugemura ku nganda bagakuramo amafaranga.

Ubuhinzi mbaturabukungu, bumaze kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo icyayi, impande yaho hakikijwe ibiti by'amoko menshi atandukanye, hakaba hari n'inzu, zisakajwe amabati y'ubururu n'umutuku.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ibitoki bihinzwe ku muronko ndetse hagati yabyo hahinzemo inyanya. Zimwe zireze, izindi ntizirera. Hahagazemo umuntu uri kubisasira.

Ubutaka buhinzwe busa nkaho burimo ikinogo kirimo amazi, ibyatsi bihagaze, ibiti byatemwe byumye,

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini cyane utewemo ibigori bigiye biteye ku murongo, hashashwemo ibyatsi byumye. Harimo umugabo uhetse igikoresho cyabugenewe mu kubivomerera ndetse hari n'undi ufite ibindi byatsi uri kugenda usasira ibi bigori. Impande yaho hari ibiti bisa nkaho biri gukura neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, amashashi asa nk'umukara arambitse hasi ku mufuka, harimo ibitaka, hakaba harimo ikimera kizwi nk'icyayi.

Igihingwa ngandurabukungu kizwi nk'icyayi. Biri mu bintu bikomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane, uhinzwemo icyayi harimo umuntu uhagazemo, uhetse igikoresho bifashisha basoroma icyayi. Ndetse inyuma ye hakikijwe ibiti.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Umurima mugari cyane uhinzwemo amashu agiye ateye ku murongo. Hahagazemo umuntu ufite igikoresho ari kuyavomerera.

Ubuhinzi bw'intoryi bukomeje gutera imbere cyane kuko zikunze kwifashishwa mu mujyi nk'imboga z'ingenzi. Byakugora ko wagera mu mujyi wa Butare usanga nta ntoryi zirimo kuko abanyeshuri birira intoryi gusa.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ubuhinzi bw'ibitoki bugiye biteye ku murongo, hahagazemo umuntu uri kubisasira ufite umuhoro, ari gusashishisha ibyatsi byumye.

Umurima munini cyane urimo igihingwa cy'ibigori, bimwe muri byo byenda kwera kandi iki gihingwa kikaba gifite akamaro kanini mu Rwanda.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, icyayi kizwi nk'igihingwa mbaturabukungu gitewe ahantu heza cyane, hagati harimo ibiti by'amoko menshi atandukanye ndetse harimo n'umusoromyi uhetse intebo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibigori bifite itoto, imbere yaho hari abagabo babiri ndetse umwe muri bo ahetse igikoresho cyifashishwa mu kubivomerera.

Abantu benshi batandukanye bicaye hamwe bafite amashashi arimo ubutaka, basa nkaho bari guteramo urugemwe.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo imyumbati, amateke ndetse n'ibitoki, hahagazemo umuntu ufite umufuka w'umweru usa nk'aho urimo ifumbire.

Amacupa agera muri abiri, rimwe rinini irindi ritoya. Irinini risa umweru aho ribaditseho icyapa kiri mu mabara y'umukara, umutuku ndetse n'umuhondo. Hashushanyijeho ingurube ndetse handitseho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru, harimo inkoko nyinshi zigiye ziri gutora ibyo kurya, harimo amabase asa ubururu, andi asa umuhondo, andi asa mu umweru.

Agakarito gashushanyijeho amabara agiye atandukanye y'umukara, umweru ndetse n'umutuku. Kakaba gashushanyijeho inka, bigaragara ko kaba karimo umuti wifashisha bari kuvura inka zagize ikibazo runaka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uri guterwamo ibirayi, harimo abantu babiri bambaye ingofero z'umukara na bote, buri wese afite isuka ndetse bamwe muri bo bafite imbuto bari kugenda bashyira mu myobo.

Inyubako nziza ifite amabati yubururu, inzugi zubururu, ndetse n'abagabo batatu basa nk'aho bari gutema ibyatsi biri aho ngaho ndetse n'amashyamba.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibigori, harimo abantu benshi batandukanye bagera kuri makumyabiri. Buri umwe afite igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera ibigori asukamo amazi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane usa nkaho uhinzwe vuba utewemo imigozi. Harimo umuntu wambaye bote wambaye ingofero iri mu mabara y'umuhondo n'umukara. Afite igiti ari kugenda ashinga mu murima.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, imyumbati ndetse n'amateke. Impande yaho hari igiti cya voka, harimo umugabo uri guhinga ufite isuka, wambaye imyenda y'umukara.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo intoryi zeze ndetse hagiye harimo n'imyumbati n'ibitoki, harimo umugore wambaye umupira w'umukara n'ingofero afite ibase y'ubururu yuzuyemo intoryi. Impande yaho hari undi ufite iyindi base itukura nayo yuzuyemo intoryi.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uteyemo imbuto zitandukanye, ibinyomoro, voka, amapera ndetse n'amaronji. Hahagazemo umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu, ufashe kuri voka.

Abantu benshi cyane bari guhinga umurima uri haruguru y'inzu, bakaba bari guhinga umurima urimo ibitoki, ukikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi bigiye biteye ku murongo, harimo umugore wambaye umupira utukura wikenyeje n'igitenge uri kugenda ashyiraho umuti.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Indinganire zihinzwemo ibishyimbo, ahandi abantu bahagazemo bari guhinga bafite amasuka ndetse inyuma yabo hari umurima uhinzwemo ibitoki. Bamwe muri bo bambaye imyenda y'umukara abandi bambaye umuhondo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane utewemo ibigori undi usa nk'aho uri guhingwa, bamwe bari gucukura ibyobo abandi bagashyiramo imbuto, imbere ku muhanda hahagaze umugabo ufite igare.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo imyumbati usa nkaho bari guteramo ibishyimbo. Impande yaho hari abantu bahagaze mu nzira, abandi bafite amasuka bari guhinga.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibitoki, impande yaho hubatse ubwiherero, imbere y'ubwiherero hari abantu bagera muri bane, bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umweru n'umutuku, bari kubaka akarima k'igikoni.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane usa nk'aho uhinzwe vuba, bari guteramo ibishyimbo. Impande yaho hari undi uteyemo ibitoki, hahagazemo abagabo babiri umwe afite isuka, undi afite umufuka.

Ishyamba ririmo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, bitanga umusaruro mu buryo bugiye butandukanye aho mbere na mbere bikurura imvura ndetse n'umwuka mwiza duhumeka.

Aba bantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari mu gikorwa cy'ubuhinzi, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, uko mubibona ni abantu b'abasimu, ubona ko baje gusura uyu murima.

Ubu buhinzi bukomeje gutezambere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibitoki ndetse ahandi bari guteramo ibishyimbo, harimo umugabo ufite isuka wambaye imyenda y'umukara yambaye na bote.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane harimo abantu bagera kuri bane bari guhinga. Harimo ibitoki biri impande yawo, igiti cya voka, igiti cy'ipera ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo imboga zisa nk'aho zeze, umwe muri bo afite imbugita ari gusarura imboga, abandi bafite amasuka bari kubagarira, impande yaho hari urubingo rwifashishwa mu gushingirira ibishyimbo, rwabanjwe gukurwaho ubwatsi bwo kugaburira amatungo.

Ubu buhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori ndetse harimo n'insina, hahagazemo abagabo babiri bafite isuka, imbere yabo hari indobo isa umweru, irimo amazi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri impande yaho hari indi mirima ihinzwemo ibitoki ndetse n'ibishyimbo, hari umugabo uri guhinga ufite isuka wambaye ubusa hejuru.

Ubuhinzi bukomeje gutezi imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibitoki, ibigori, amateke ndetse n'imyumbati, hahagazemo abantu babiri umugabo n'umugore, bose bafite amasuka bari gukora akarima k'igikoni. Undi mugabo ahagaze imbere yabo, afite indobo irimo amazi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi, impande yaho hari abagabo bane, umwe muri bo yunamye mu birarayi ari kubibagarira abandi barahagaze, impande yaho hari umurima uhinzwemo ibitoki ndetse n'inzu isakajwe amabati y'umweru.

Umurima ukikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye, harimo abantu batandukanye barimo guhingira imbwija, kandi hakaba harimo umwe uhetse mu mugongo igikoresho cyifashishwa mu kubitera umuti.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye, harimo inyubako nyinshi kandi hakaba harimo ibiti kandi iryo soko rikaba ririmo kugurishirizwamo ibitoki by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini cyane uri mu gishanga utewemo umuceri usa nkaho weze, undi nturera. Harimo abantu babiri bahahagaze, umwe yambaye imyenda isa umweru, afite n'umufuka mu ntoki. Impande yaho hari ishyamba.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuceri utewe mu gishanga impande yaho hari ikibuga kiriho imifuka irimo umuceri wasaruwe, harimo abantu bafite intara bari kugosora ndetse n'umugabo wicaye ku igare wambaye umupira w'umuhondo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, Umurima mugari cyane, uhinzwemo ibirayi bifite itoto. Harimo abantu babiri bari kubivomerera. Bambaye imyenda y'amabara atandukanye, umutuku n'icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko. Hari imifuka yuzuwemo ibirayi ndetse n'ibijumba bisutse hasi, ibitoki, harimo abantu bamwe bafite imifuka, bamwe barayikoreye, abandi bayifite mu ntoki.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibigori, amashu ndetse hakaba harimo ibijumba byakuwe, impande yaho hakikijwe n'ibiti.

Isoko bacururizamo ibiribwa bigiye bitandukanye aho hano turi kubonamo amoko agiye atandukanye y'ibitoki, aha rero ibitoki bigurishwa kuri make ku buryo igihe cyose waba ugikeneye wanyarukira hano bakakwihera igitoki.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini cyane irimo imifuka myinshi igiye itondetse ku murongo, imwe isa umukara, indi isa umweru, indi isa umuhondo, hahagazemo umugabo wambaye isarubeti y'ubururu ufite igitabo n'ikaramu.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutuma abaturarwanda ndetse n'Igihugu muri rusange tugira ubuzima bwiza, umurima munini cyane uhinzwemo imboga zizwi nk'imbwija ndetse impande yawo hakijwe amashyamba arimo ibiti by'amoko menshi atandukanye nk'ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo imyumbati isa nk'aho itarera, impande yaho hari undi murima uhinzwemo ubwatsi twifashisha tugaburira amatungo, hahagazemo umuntu ufite ihene.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibigori byeze, hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru afite ibigori bitanu mu ntoki bikuyeho amababi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri usa nkaho weze, ku nkengero z'amazi hagiye hatera ibiti ndetse hakikijwe n'ibigori.

Imifuka irimo amabara atandukanye, umweru, umuhondo, icyatsi, amajerekani arimo amavuta yifashishwa mu guteka ibyo kurya, amakarito arimo ibyo bifashisha banywa.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo imyumbati igiye iteye ku murongo, harimo abagabo babiri bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi n'umukara, umwe muri bo afite ibase.

Mu masambu haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibimera, hariho ibizwi nk'imiyezi, ibi bikunze kwifashishwa bari gushyira urubibi hagati y'umurima n'undi cyangwa se bari gukora uruzitiro bari kurinda umurima wabo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, ibitoki, harimo igiti cya voka. Hari n'umurima usa nkaho uhinzwe vuba utewemo imigozi y'ibijumba.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uteyemo insina, imyumbati amateke. Impande yaho hakikijwe n'imiyenzi. Hari igiti cy'avoka ndetse n'aho abantu bamena imyanda.

Ubuhinzi bukomeje kutugeza kuri byinshi, umurima mugari cyane uhinzwemo ibishyimbo bisa nk'aho bikiva mu butaka, impande yaho hateye ubwatsi twifashisha tugaburira amatungo ndetse n'ibiti byera amapera na voka.

Amashyamba afite akamaro kanini mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishyamba rigari cyane ririmo ibiti bihagaze, irindi rifite ibiti byatemwe birambitse hasi byumye, harimo n'ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo insina, imyumbati, amateke ndetse impande yawo hari ibiti bihakikije, bimwe muri byo byera imbuto nka voka n'amapera.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo amashu ukaba ugiye ukikijwe n'ibiti ku nkengero zawo, impande yawo hari umugezi ndetse hahagaze umuntu ufite ikivido.

Mu ishyamba haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibyatsi, hari ibyatsi umwana wo mu mujyi yahagera yabibona agasanga ntabwo azi ibyo ari byo, mu by'ukuri nk'ibi byatsi ntabwo wapfa kumenya ubwoko bwabyo, keretse usanzwe uri umuhinzi wabyo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo insina zigiye ziteye ku murongo, hagati hari ibyatsi bisasiye izo nsina hahagazemo n'umuntu ufite umuhoro.

Umurima urimo ibiti byinshi ndetse n'ibindi bigiterwa vuba, harimo nk'ibiti by'amapera n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo amashu agiye atewe ku murongo, akaba asasiwe n'ibyatsi byumye, hakaba harimo umugabo uri kuyavomerera.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje kuduteza imbere. Umurima mugari cyane, utewemo voka, ahandi hari ibinyomoro ndetse n'amapera. Hahagazemo abagabo batatu umwe yifashe mu mutwe.

Ubuhinzi bukomeje kutugeza kuri byinshi, umurima mugari cyane uhinzwemo insina, imyumbati ndetse n'amateke, imbere yaho hari umugabo ufite umuhoro ndetse ufite n'ihene ari kuyikurura.

Ubuhinzi buri ku isonga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibitoki, imyumbati, amateke. Hakikijwe ibigori ndetse yahagazemo umuntu ufite imyumbati yakuwe.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibishyimbo bisa nk'aho biri gusarurwa, ibitoki byeze, impande yaho hari igiti cya voka ndetse n'akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye, imbwija, ibitunguru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibiti by'imbuto bitandukanye voka, amapera ndetse hirya hari ibinyomoro, impande yaho hahagaze umugabo wambaye bote n'umupira w'umukara.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. umurima mugari cyane utewemo imyumbati, amateke n'ibitoki, impande yawo hari igiti kinini cyakuze kirimo inkende, hirya hari inzu yubakishijwe amabati y'umutuku, hahagaze n'umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Ubwinarizo burimo icyayi, avoka, hagati muri byo, hahagazemo umuntu wambaye ingofero, umupira ndetse n'ipantaro kandi akikijwe n'ibiti ndetse n'ibip...

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bamwe bari kugura abandi bakagurisha, karoti, inyanya, amashaza ari mu ishashi, ibitunguru ndetse n'intoryi, umwe muri bo afite ingarame yuzuyemo inanasi.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, impande yabo hari imiteja, ibitunguru, karoti, intoryi ndetse n'imbwija, bamwe muri bo bafite imifuka, abandi bafite amapaniye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo amashu asa nk'aho yeze asasiwe n'ibyatsi, hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, impande yaho hari igishanga gihinzemo umuceri.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo inyanya, zimwe zigiye zifata ku biti. Zimwe zireze, izindi ntizirera. Hahagazemo umugabo wambaye imyenda isa umukara n'ubururu ufite igikoresho cyifashishwa mu kubivomerera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo indabo, ziri mu moko atandukanye kandi zifite n'amabara atandukanye, harimo umweru, umutuku, umuhondo, hahagazemo umuntu uri kuzivomerera.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibinyomoro harimo avoka, amapera bikikije ku ruhande rutewemo ibinyomoro, hahagaze abantu babiri umwe muri bo afite ibinyomoro bibiri byeze ibindi ntibirera neza.

Abantu batatu bari mu isoko bicaye, umugabo umwe n'abagore babiri bari gucuruza inyanya, karoti, intoryi, ndetse n'imboga z'imbwija, hakaba hari intebe, indobo, ibase, ndetse n'inzu.

Ubuhinzi bwi'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy Rwanda. Ibitunguru byinshi cyane birambitse ku mufuka uri hejuru yigitanda, hahagaze umuntu wambaye inkweto zitukura ndetse, hari intebe iteye imbere yabo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, akarima k'igikoni gasa nkaho gahinzwe vuba karimo imboga zitewe vuba, impande yaho hari urugo rw'imiyenzi n'ibishyimbo ndetse bishingiriwe.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini cyane uhinzwemo imboga, hari ahahinze imiteja, intoryi, karoti. Intoryi zo zisa nk'izitukuye naho imiteja isa nk'aho yeze hamwe na karoti.

Umurima munini cyane ukikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amazu kandi uwo murima ukaba uhinzwemo ubwoko bw'imboga buzwi nk'intoryi.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ubwoko bw'imboga butandukanye, karoti, intoryi ndetse n'imbwija, hahagazemo umuntu ufite ibase.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umufuka urambitse hasi w'umweru, urambitseho imiteja myinshi cyane. Hari imwe imeze nk'iyumye, indi iracyatoshye. Impande yaho hahagaze umugore wambaye imyenda itukura.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bamwe bari kugurisha, abandi bari kugura ibitunguru, seleri, imbwija, karoti ndetse n'intoryi, bamwe muri bo bafite imifuka.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere kuko biri mu bituma tugira ubuzima bwiza, akarima k'igikoni gahinzwe neza cyane karimo ubwoko bw'imboga butandukanye, harimo imbwija, amashu, ibitunguru, harimo umuntu usa nk'aho ari gusoroma zimwe mu mboga zihinzemo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi ndetse harimo n'ibishyimbo bisa nk'aho byenda kwera, imbere yaho hari umuhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye.

Isoko ryiganjemo ibiribwa hakubiyemo imineke, amatunda ndetse n'amapapayi biteretse ku bikarito bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari hamwe mu isoko, harimo imbuto zigiye zitandukanye amatunda, imineke, indimu ndetse n'amaronji, biteretse ku tubati harimo ibasi isa ubururu ndetse n'indi itukura.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Umurima munini cyane uhinzwemo ibisheke, ibinyomoro. Hahagazemo umugore wambaye ikote ndetse n'umupira w'umweru, afite ibinyomoro bitatu bitukuye neza.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo intoryi zisa nkaho zeze zisasiwe ibyatsi byumye, hagati harimo icyapa gisa umweru, impande yaho hakikijwe ibiti n'undi murima urimo amashu.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura, ku bipangu byaho hari inzugi zisa icyatsi, impande yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye zimwe zisa umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane ikikijwe n'umurima urimo ibigori, ahandi harimo ubusitani, hari indabo z'amoko atandukanye, zimwe zisa umutuku izindi zisa muhondo.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitoshye, impande yaho hari umuhanda uhagazemo abantu batatu, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, umweru, umukara n'umuhondo, hagati mu busitani hahagazemo undi muntu wambaye imyenda isa umutuku.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo karoti, amateke, imyumbati. Impande yaho hari ibiti by'amoko atandukanye bimwe byera imbuto nk'avoka n'imyembe, hakaba hari n'ibyatsi bisa nk'aho byumye bisasiye izi mboga.

Umurima uhinzemo imbuto uhagazemo abantu benshi batandukanye, abagabo babiri, abagore babiri, bafatanyije guterura ibase irimo imbuto, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, ubururu n'umukara.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako nziza y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, amabati ahasakaye asa umutuku, impande yaho hari ubusitani bwiza cyane, burimo indabo ndetse burimo n'ibiti bizwi nk'imikindo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye cyane, umuhondo, umutuku, ubururu, umweru, umukara, n'icyatsi, harimo ibihaza, ndetse n'imboga zitandukanye, buri umwe hari abaje kugura n'abaje kugurisha.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bafite amabase arimo ibinyomoro, indimu, imbere yaho hari urukweto ruri hejuru y'umufuka, hahagaze umugabo ufite telefoni mu ntoki n'indi iri mu mufuka iri kureguka.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ibitanda bigiye bitandukanye birimo amaronji, ibinyomoro ndetse n'indimu, impande yaho hahagaze abantu bambaye imyenda itandukanye, bamwe muri bo bari gukora ku ndimu.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'Abaturarwanda muri rusange. Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bamwe bafite ibitunguru, abandi bafite imbwija, ndetse harimo na pavuro. Amabase abiri imwe isa icyatsi indi itukura.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bamwe bari kugura abandi bakagurisha harimo imineke, amatunda, ibinyomoro bamwe muri bo bikoreye ibinyomoro mu mabase abandi bikoreye amatunda.

Abantu bagera muri babiri, umugore ndetse n'umugabo, bakaba bari hamwe bari kubaka akarima k'igikoni, ubu ni bumwe mu buryo bwashyizweho na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo barwanye imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana bakiri bato.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bambaye imyenda yiganjemo umutuku, ubururu, harimo pavuro, imbwija, karoti, sereri, intoryi, hari ibase irimo voka ndetse hari n'umuntu wikoreye umufuka urimo karoti.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwageze kuri bose. Igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri usa nkaho urimo amazi, hahagazemo abagabo babiri. Umwe yambaye imyenda y'umukara, undi yambaye iy'umutuku. Ruguru hari umurima uhinzwemo urusenda, hahagazemo umugore wikoreye ibase irimo urusenda.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ubwonko bw'imbuto butandukanye, amapapayi, imyembe, voka, impande yaho hari inyubako isizwe amarange y'umuhondo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo urusenda ndetse impande yaho hagiye hakikijwe amateke, rumwe rureze urundi ntirurera rusasiwe n'ibyatsi byumye.

Uburezi bufite ireme bwageze ku baturarwanda, inyubako nziza y'amashuri yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hatewe irange ry'umukara, imbere y'amashuri hari ubusitani bwiza cyane burimo ubwoko bw'indabo butandukanye.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga, aho higanjemo dodo, urusenda ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, zikaba zisasiye kugira ngo zitazicwa n'izuba, imizi yazo izakomeze itohagire.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuhanda mugari cyane harimo umugore ufite akabase kuzuye ibinyomoro yikoreye indibasi z'icyatsi irimo imineke, impande ye hari ibinyabiziga biparitse nk'amagare, moto, n'imodoka.

Umurima uhinzwemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo imbwija, indabo, karoti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'ibishyimbo, amavoka.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi hahagazemo umugabo n'umwana, umwana afite ibyatsi yaranduye, umugabo afite igikoresho yifashisha ari kuvomerera ibi birayi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi n'undi utewemo ibishyimbo, bisasiwe n'ibyatsi byumye, harimo abantu batatu bafite ibivido ndetse n'indobo bari kugenda basuka amazi mu bihingwa, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyanya zigiye ziteye ku murongo, harimo umuntu wambaye imyenda y'ibitenge, afite igikoresho bifashisha bari kuvomerera, harimo amazi ari kugenda asuka kuri buri runyanya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo urusenda, pavuro, hahagazemo umuntu wambaye imyenda yiganjemo icyatsi, ubururu, akaba yikenyeje igitenge. Afite ibase isa ubururu.

Umurima munini cyane ukikijwe n'ibiti byinshi cyane bitandukanye urimo abagabo batatu bambaye impuzankano y'umukara n'umweru hejuru, bakaba bari kuvomerera ibihingwa byabo mu murima uhinzwe.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuceri uri mu gishanga usa nk'aho umwe watwawe n'isuri, undi usa nk'aho weze, impande yaho hari umurima utewemo imyumbati n'ibishyimbo bisa nk'aho bikiva mu butaka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini cyane uhinzwemo ibigori, ukikijwe n'ishyamba ririmo ibiti by'amoko menshi atandukanye ndetse n'amazu amwe yubakishijwe amabati atukura, andi ni ubururu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo imyumbati, hahagazemo abantu bane bambaye imyenda iri mu mabara atukura, umuhondo n'umukara, impande yaho hari igiti cy'avoka.

Umurima munini cyane urimo ibiti, ukaba utewemo n'ibindi bihingwa bitandukanye kandi ukaba urimo umunara usa nkaho ugiye kugwa wahengamye.

Ubutaka bwinshi buhinzwemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo: nk'ibitoki, ibirayi, ibishyimbo, ndetse hakaba harimo n'inyubako zigiye zitandukanye.

Ubutaka burimo abantu benshi, ndetse bukikijwe n'ibiti byinshi cyane, kandi bukaba bucukuwemo imyobo, bisa nkaho abo bantu bari guteramo imbuto z'ibirayi.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ubwatsi twifashisha tugaburira amatungo, harimo amateke, imyumbati impande yaho hubatse ikiraro, hari n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje kuduteza imbere, igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri utemba itoto, impande yaho hakikijwe ibiti ndetse n'ibindi byera imbuto, hahagazemo abantu babiri basa nk'aho bari kuwubagarira.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini cyane urimo igihingwa kizwi nk'icyayi kikaba ari igihingwa mbaturabukungu, impande yaho hakikijwe ibiti n'amazu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri, hakaba harimo umugezi utemba, impande yawo hakikijwe ibiti by'amoko menshi atandukanye ndetse n'amazu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri, impande yawo hari umugezi utembamo amazi, umugezi ukaba ukikijwe n'ibiti by'amoko menshi atandukanye, aha hahagazemo umugabo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo soya, hari n'undi byegeranye uteyemo imyumbati, amateke ndetse harimo n'igiti cya voka, harimo voka zisa nk'izeze.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Indinganire zigiye ziteweho ubwatsi bwo kugaburira amatungo, hakaba hateyemo ibirayi, ndetse hakaba harimo n'umuhanda uhagazemo abantu babiri.

Urugomero rw'amazi twifashisha kugira ngo tubone umuriro, impande yaho hakikijwe ishyamba rigari cyane n'imirima irimo ibihingwa bitandukanye imwe ihinzwemo ingano, ibigori ndetse ahandi hari ibitoki.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti hahomyeho ibyondo, imbere yaho hari inkoko izwi nk'isake ikaba ifite icyo iri kureba imbere yayo.

Ikiganza cy'umuntu usa nkaho ari gufotora umutavu ufite amabara atandukanye umweru, umukara busa nkaho bwije.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi bisa nk'aho bitarera, impande yaho haziritse ihene iri kurisha, hatewe ibitoki ndetse n'imyumbati.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkoko nyinshi cyane zihagaze ahantu hamwe, hasa nkaho hari imbaho, hubakishijwe amatafari manini. Zimwe ziri gutora ibyo kurya, ziri kubifatira mu mufuniko usa umutuku.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro gisakajwe amabati cyubakishijwe imbaho n'ibiti bihagaze, haryamyemo ingurube nini ibyana byayo bigera muri cumi na bibiri biri konka.

Inka zigera muri ebyiri ziri mu moko agiye atandukanye aho ari iza kizungu, harimo inka n'umwana wayo aho ari inka z'umweru ndetse n'umukara, zikaba ari inka za kijyambere.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho. Harimo ingurube iryamye ku byatsi ndetse n'ibibwana byayo biri konka. Impande yaho hari ubwatsi buharunze.

Ubuhinzi n'ubworozi bikomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho, mo imbere harimo ingurube iri kurya ubwatsi. Harimo ibase irimo ibizi ingurube inywa.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti, imbaho, kikaba gisakajwe ibyatsi, harimo inka ndetse n'inyana iri konka, inka nini iri kurya ubwatsi ndetse imbere yayo hahagaze umushumba.

Umurima urimo amatungo abiri azwi nk'amahene ari kurisha ubwatsi, afite amabara y'umukara n'umweru kandi imwe muri yo isa nkaho ihaka.

Ubworozi bukomeje kutugeza kuri byinshi, ikiraro cyubakishijwe ibiti, imbaho ndetse n'amatafari, harimo inka yambaye amaherena ifite amabara y'umweru n'umukara, iri kurya ubwatsi, iri kurira mu gatanda kayo.

Umugore uragiye ihene zigera muri ebyiri zikiri ntoya, akaba ari kuziha ibishogoshogo, aho ahagaze imbere y'inyubako bigaragara ko ari iyo mu cyaro kubera ko isakaje amategura.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, amahene abiri aziritswe inyuma y'inzu mu byatsi bitoshye cyane, imbere yaho hari abantu bahagaze ku muhanda bafite ingarame, undi afite imirunga y'ihene.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ibibuti by'inkwavu birimo inkwavu nyinshi, zimwe ziri hanze, zigera muri eshanu zisa umweru. Impande yaho hari ibase y'ubururu irimo ibigori.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe n'imbaho kikaba gihomeshejwe ibyondo, harimo inka ifite amabara y'umukara n'umweru, iri kurya ubwatsi, iri kurira mu gatanda ndetse n'umwana wayo uri hanze na we uri kurira mu gatanda ufite amabara y'umweru.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe Leta idushishikariza kororera inka mu biraro kugira ngo dukomeze kubungabunga ibidukikije, iyi nka rero irasa umukara iri mu kiraro cyayo.

Ikiraro kigizwe n'ibiti byinshi, hakaba harimo ingurube iryamye ku byatsi biri muri icyo kiraro, kandi imbere y'icyo kiraro hakaba hari utundi twatsi tugiye dutandukanye.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyana iri mu ruhongore imbere yaho hari umugabo ufite ubwatsi. Inyuma hari ibiti byera voka ndetse hahagaze n'umuntu ufite umuhoro.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kigari cyane gihagazweho n'amahene agera muri atanu, harimo imfizi, ndetse n'ishashi, impande yaho hahagaze abagabo, bafite imirunga n'ishumangiro.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy’u Rwanda. Ikibuga kigari cyane kiriho amahene abiri manini n’abana bayo babiri, zimwe ziziritswe ku ncumagiro, ziri kurya ubwatsi. Imbere y’aho, hari umumama wambaye imyenda y’ubururu uri kuziha bwatsi, ndetse n’umwana uhagaze.

Imishwi myinshi iri ahantu hamwe iri gufata ibyo kurya, kandi hakaba harimo umuntu uri kuzigaburira, akaba yambaye imyenda y'ubururu.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda mugari cyane w'ibitaka urimo amahene, ndetse hari kugendamo n'abantu bambaye imyenda itandukanye: nk'umuhondo ndetse n'umweru. Impande yawo hari umurima uhinzwemo ibigori n'ibitoki.

Ubuhinzi n'ubworozi bumaze guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ikiraro kirimo inka ebyiri, imwe isa umukara, indi isa umweru, imbere yaho hari umuntu wambaye imyenda itukura, afite ubwatsi ndetse n'umuhoro ari kuzitemera ibyo kurya.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, urugo rwubakishije ibiti ndetse harimo inzu yubakishijwe amabati atukura, ikaba ihomyeho sima, imbere yaho hari inkoko y'isake, n'inkokokazi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ikiraro cyubakishijwe ibiti n'imbaho kikaba gisakajwe n'ibyatsi, harimo ingurube iri kurya ubwatsi, harimo n'ibase inyweramo amazi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, ikiraro kirimo amahene abiri ari kurya ubwatsi, imbere yaho hari umuntu ufite ubwatsi mu ntoki ndetse n'umuhoro, impande yaho hari indi hene iziritse hanze y'ikiraro.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse kikaba gisizwe ibyondo. Harimo inka iri kurya ubwatsi, imbere yaho hari inkoko eshanu ziri gutora ibyo kurya hanze. Hari umuntu ufite ibase wambaye imyenda y'umukara.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cy'inkoko harimo inkoko nyinshi cyane. Zimwe ziri gutora ibyo kurya, izindi zirahagaze, harimo indobo n'imifuniko isa umutuku.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro gisakajwe amabati kikaba cyubakishijwe n'ibiti kirimo inka y'isine iri kunywa amazi. Imbere yaho hari umugabo wambaye ingofero y'ubururu, ishati itukura ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti n'ibyondo, harimo inkoko zigera ku munani zimwe zisa umutuku izindi zisa umweru ziri gutora ibyo kurya biri hasi ku mufuka.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe ibiti, kikaba gitewe ibyondo, harimo ingurube iri kunywa amazi. Impande yaho hari umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu. Hari amacupa abiri arambitse hasi.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro kirimo inka ifite amabara y'umweru n'umukara, iri kurya ubwatsi ndetse ihagaze ku bindi byatsi. Impande yaho hari inzu ihomyeho ibyondo.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kigali cyane kirimo ibyatsi, harimo inka zifite amabara y'umweru n'umukara, hahagazemo abashumba bazo, ndetse impande yaho hakikijwe ibiti bya avoka.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti n'ibyondo harimo inka ifite amabara y'umweru n'umukara ihagaze ku byatsi iri no kurya ubundi bwatsi iri kurira mu gatanda.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, imitabo ihinzwemo ibigori, impande yaho hari imigezi ishokamo amazi, impande yaho hakikijwe ibisheke ndetse n'ishyamba.

Umurima munini cyane uhinzwe kijyambere, hahinzemo ibigori bigiye biteye ku murongo, harimo umuntu uhetse igikoresho ari kubitera umuti, imbere yabyo hari umurima urimo ibigori bimwe bisa nkaho byeze, ibindi ntibirera neza, hahagazemo umugabo usa nk'aho ari gukuraho amababi ku bigori.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane, utewemo imbuto zigiye zitandukanye. Amapapayi, ibinyomoro, voka ndetse impande yawo hari undi murima uteyemo ibigori.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo intoryi, imbwija ndetse na karoti. Zigiye zisasiwe n'ibyatsi byumye, hari kumeramo n'ibishyimbo. Hahagazemo abantu babiri, buri umwe ahetse igikoresho twifashisha tubivomerera. Abandi bahaga...

Inyubako yubakishijwe ibiti, isakajwe imigano. Harimo abantu bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku n'umukara. Bamwe bakaba bicaye, abandi barunamye. Bari gufata ibitaka bakabishyira mu mashashi asa umukara.

Umurima uri guhingwa kandi wasaruwemo ibigori, hagati y'uwo murima hari amazi atemba kandi muri uwo murima ahatarahingwa hari amateke ndetse n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda igishanga kinini cyane kirimo umuceri utemba itoto, hagati mu muceri hari amazi atemba, impande yawo hari ibiti ndetse n'amazu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuma mugari cyane uhinzwemo urusenda rusasiwe neza, impande yawo hari igishanga gihinzwemo umuceri utemba itoto kandi umwe usa nk'uweze.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy’u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori bisa nk’aho bitarera neza. Harimo abagore bane, bose bambaye imipira itukura, bikenyeje n’ibitenge, bamwe muri bo bari gushyira ifumbire ku bigori.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo imyumbati isa nkaho ikiva mu butaka, impande yaho harunze ibitaka byinshi cyane kandi hari n'undi murima urimo ibyatsi by'inka.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe ibiti, kikaba gisakajwe shitingi. Kirimo inka, ndetse imbere yaho hari inyana iri kurya ubwatsi. Hahagaze abagabo batatu umwe yambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishati, undi yambaye ishati y'igitenge.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kigari cyane kirimo inka nyinshi zifite amabara atandukanye umukara, umweru. Impande y'ikibuga hakikijwe amashyamba.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse n'umweru, hahagazemo umwarimu wabo wambaye itaburiya y'umweru afite igitabo na mudasobwa.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti bihomyeho icyondo gisakajwe amabati y'umweru, harimo inka ifite ibara ry'umukara n'umweru, hahagazemo abagabo babiri, umwe wambaye itaburiya y'ubururu ari kuyitera urushinge.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuma mugari cyane uhinzwemo ibigori, impande hari undi udahinze uziritsemo amahene, imbere yaho hari umushumba ufite imirunga, ndetse hari n'umuntu uhagaze ku muhanda.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro kirimo inka ifite amabara y'umweru n'umukara, ndetse n'inyana iri konka, harimo umugabo wambaye ishati itukura, bote z'umukara, n'ipantaro y'umukara.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe imbaho n'ibiti, kikaba gisakajwe ibyatsi byumye. Imbere hari umugabo wambaye ubusa hejuru uyifashe amahembe ndetse n'undi wambaye imyenda y'ubururu uri kuyishiririza amahembe.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ibiraro byinshi cyane hari n'inka zigiye zitandukanye, imwe muri yo ifite umwana wayo uri konka ndetse indi hari umugabo uri kuyitera urushinge.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kigari cyane cyamezeho ibyatsi, kirimo inka zigera kuri eshatu. Imbere yaho hari abashumba bazo, ndetse n'abagore babiri bakuruye amahene.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje guteza imbere igihugu muri rusange n'abaturarwanda zinjiza amadovize, inkende iri mu muhanda isutamyemo ifite umuneke, imbere y'aho hari umuntu uhagaze usa nkaho ari kuyireba ndetse hari n'umwana wayo uhagaze ku giti.

Zimwe mu nyamaswa, zikomeje gukurura bamukerarugendo bityo zikinjiza amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkende ebyiri zihagaze mu giti hejuru mu mashami yacyo. Zifite imineke ndetse imwe muri zo iteruye umwana wayo.

Hariho amoko agiye atandukanye y'imbeba, aho hari imbeba zikunze kuba ziri mu ishyamba zifite imirizo ifite insenzi, izi ni mbi cyane kuko zageze mu rugo rwawe zikakurira imyenda zayihindura ubushingwe.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje gutuma igihugu cyacu gitera imbere, ishyamba rigari cyane ririmo inyamaswa zigiye zitandukanye nk'ingagi n'izindi, ebyiri zirahagaze izindi ziraryamye impande yaho hari ibiti birebire cyane.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje gukurura ba mukerarugendo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishyamba rigari cyane ririmo inyamaswa zitandukanye, inkende ni zo ziganjemo cyane, eshatu ziri kumwe ndetse n'abana bayo batatu bari kumwe, imwe ifite umuneke.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje gukurura ba mukerarugendo mu gihugu cyacu bityo zikinjiza amadovize, inyamaswa nini cyane y'inzovu iryamye mu ishyamba, impande yaho hari ibiti byiza cyane ndetse hari n'ingagi ebyiri zihagaze.

Inyamaswa zicaye mu giti ari ebyiri zifite amabara atandukanye umweru, umukara, zisa nkaho zifite ikintu ziri kureba imbere mu byatsi.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje kutuzanira amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishyamba rigari cyane ririmo inyamaswa zitandukanye, higanjemo inyende buri nyende igiye ifite umwana wayo, zihagaze mu giti hagati.

Umuhanda mugari cyane uriho icyapa kiri mu magambo y'icyatsi, kigaragaza ko ari ishyamba rya Nyungwe, impande yaho hari inzu isakaje amategura, itewe irangi ry'umuhondo n'icyatsi, imbere hari umuntu ushinzwe umutekano.

Mu mashyamba haba hari amoko abiri atandukanye y'ibiguruka, haba harimo inyoni ziba zifite amabara agiye atandukanye, twavugamo nk'umukara ndetse n'umuhondo, zikunda guhagarara ku matabi y'ibiti, kugira ngo zirebe uko zabona inyamaswa zarya.